Abaganga batandukanye bari mu cyumba kimwe barimo baratera urushinge umugabo bigaragare ko ari urukingo, hari ameza ariho agasahani bashyiramo ibyuma bikomeretsa n'amapamba bahanaguje abarwayi.

Turabona umwana mutoya, tukabona na nyina ariwe umucigatiye, hakaba n'umuganga. Ariko umuganga ibyo arimo gukora ni ukumusuzuma kugira ngo arebe indwara umwana arwaye hanyuma aze kumuvura.

Abajyanama b'ubuzima bari mu mahugurwa, buri wese afite ikayi cyangwa igitabo arimo kwandikamo inama agirwa n'ibyo ashobora gufasha abaturage asanze mu giturage kugira ngo bite ku buzima bwabo kandi bagire ubuzima bwiza.

Ivomero riri ahantu ku musozi. Abana ni batatu bafite ubujerekani, bari kuvoma undi ariko kuba bapompera amazi kugira ngo ajye mu bujerekani bwabo, ariko abana barasa nabi, amazi bashobora kuba bagiye kuyakaraba cyangwa kuyatekesha.

Iriba ariko ririmo amati yacometswe mu gikuta cya sima, n'umwana urimo kunywa amazi ariko andi aramanuka mu ndobo, umwana yambaye inkweto za bodaboda ariko iriba rira ahantu hatitaweho neza.

Abana babiri bateruye indobo irimo amazi bakenyeye igitenge, bari imbere y'inzu n'imbere y'ivomero, bari ahantu mu musozi, ahantu heza hari amashyamba, hari umwuka mwiza kandi hatuje cyane.

Turabona umwana w'umunyeshuri, uri ku ishuri kuko biragaragara kuko yambaye n'umwambaro w'ishuri, arimo arakaraba intoki kugira ngo yivane imyanda iri ku ntoki, kuko ashobora kurya kandi afite umwanda bityo bikamwanduza indwara zitandukanye.

Amazu n'ibyuma n' bigega n'inzego abantu buririraho bajya kureba ariya mazi ari mu kidendezi. Biragaragara ko ari ahantu hatunganyirizwa amazi kugira ngo yoherezwe mu baturage, maze atangire gukoreshwa.

Ababagore bari ku ivomero bafite indobo abandi bari kuvoma bigaragare ko amazi hari icyo bagiye kuyakoresha, ashobora kuba ari isuku cyangwa ibindi no guteka ibintu byose amazi akora mu buzima busanzwe.

Umwana uri kuri wese cyangwa tuwarete imbere ye hari indobo n'ibase n'ikizwi nka kandagira ukarabe, ashobora kuba avuye muri tuwarete ariko kugira ngo yikorere isuku akabanza koga kugira ngo ataza kugira icyo arya atarakaraba intoki.

Haragaragara amatiyo ava mu gikuta ariko asohokamo amazi, hagaragara n'umwana ufashe igikombe urimo kuyavoma kandi biragaragara ko yishimye, ashobora kuba agiye kuyanywa cyangwa se ayajyanye kugira ngo ayakoreshe ibindi bikorwa.

Imbere yacu turabona umuganga wambaye ga, arimo arakingira umwana, ariko inyuma hari n'abandi, ibi biragara biragaragaza y'uko hari igikorwa cyo gukingira abana bakiri batoya indwara runaka.

Abaturage barimo baravoma amazi, ni umugore n'umugabo bari ku ivomo, ibi biragaragaza yuko rero amazi yageze ku bantu bose kandi abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, yaba guteka isuku n'ibindi byinshi amazi akoreshwamo.

Umugabo wishimye urimo gukorera umwana ijerekani umwana w'umukobwa, ariko iriho n'ikirango cya Yunisefu, Yunisefu ni umuryango ufasha abana cyangwa wita ku bana.

Biragaragara ko hari umukobwa cyangwa se umugore n'umwana umwicaye ku ruhande, barimo baravoma amazi yo mu mugende, ayo mazi asa nabi, amazi ashobora kuba arimo mikorobe zitera indwara n'ibindi bitari byiza ku buzima bw'umuntu.

Abantu benshi, abenshi biganjemo abana n'urubyiruko rusa nk'urukuze bashungereye. Umugore umwe arapfukamye hasi ariko abandi barimo baravuga hejuru, bigaragara nk'ikinamico hari ikintu bashaka kwigisha.

Abana batoya bari ku ivomo ku itiyo imena amazi baraseka, ni abana ubona ko ntabwo bazi ibyo barimo. Amazi aratemba ariko amazi akoreshwa mu bintu byinshi, harimo isuku mu kuyatekesha n'ibindi byinshi.

Aha hari itiyo icometse mu gikuta, itiyo irimo irasohora amazi, amazi arimo arakarabwa n'umuntu wambaye ishati y'ubururu, arimo arakaraba ibiganza, amazi mu by'ukuri arimo arameneka.

Abantu benshi bategereje amazi ku ivomo baragaragara nk'aho ari benshi kandi n'amajerekani ategereje ni menshi, ibi biragaragaza yuko rero amazi ataragera ku bantu benshi kuko n'inzu urabona ko ari imwe yonyine ivomwaho amazi meza.

Umugore uri koza indobo n'isabune n'amazi, ari imbere y'ivomo, ari ahantu hari ibiti, hameze neza, hari umwuka mwiza, ariko urebye urabona ko afite umwana ahetse mu mugongo bitari byiza, ubona ko batifashije.

Abana b'abanyeshuri bari kuvoma amazi, bishobora kuba ari ku ishuri cyangwa ahandi hantu ariko amazi bari kuvoma bashobora kuba bagiye kuyakoresha mu bikorwa bitandukanye, gukoropa amashuri cyangwa se gukaraba no gufura n'ibindi.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi w'umwana ariko umwana yazanye na mama we. Umuganga ari kumupima ku mutima, yambaye ibikoresho bifashisha bumviriza umutima uko utera kugira ngo abashe kumenya ibimenyetso.

Ahantu hateraniye abantu benshi ubona hari urujya n'uruza ariko hari n'abaganga bita ku baturage bisuzumisha indwara zitandukanye. Hari n'intebe nyinshi, hari ameza menshi yo kwakiriraho abantu kugira ngo batange ibibazo byabo bigiye bitandukanye.

Umuryango wasuwe n'abajyanama b'ubuzima, ariko babaganiriza ku mitekerereze ya muntu, urabona ko ari n'umuryango utifashije ariko buri wese agira imitekerereze bititawe icyo ari cyo.

Umuntu w'umumama wifashe mu mutwe, bigaragare ko afite intekerezo nyinshi, ari gutekereza bimugoye, ababaye, afite agahinda. Ibi bihuzwa n'imitekerereze cyangwa se ikibazo cyo mu mutwe, kuko si byiza ko umuntu ahora yibaza.

Umugabo uhagaze aha wenyine ubona yegamiye ku gikuta ariko ameze nk'umuntu uri gutekereza ibintu byinshi, ibi bishobora kuba ari ikibazo cyo mu mutwe cyangwa ari intekerezo nyinshi aterwa n'ibindi bintu by'uburwayi.

Umugore wicaye ku ntebe y'urubahu imbere hari umusambi, idirishya rirakinguye inzu yarahumotse, ni umuntu ubona ko atari mu buzima bwiza, ariko aragaragara nk'umuntu wihebye ikibazo cy'intekerezo.

Umuntu wambaye ingofero ariko wipfutse mu maso bigaragare ko ari kwihanagura amarira, ashobora kuba yarize bitewe n'ikibazo afite cy'uburibwe cyangwa se ababajwe n'imitekerereze y'iwe.

Umuntu usa nabi cyane, wisize ibintu by'imikara mu maso ufite imifuka myinshi, imyenda yamucikiyeho, biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, bitewe n'ukuntu ameze mu muhanda ntiyiyitaho arasa nabi cyane.

Umuntu wicaye hasi ku biringiti n'ibitenge, ari mu nzu isa nabi, urabona ko yihebye ariko ikindi araziritse, uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe gituma bamuzirika kugira ngo atirukanka ku musozi.

Aka ni agakoresho kifashishwa mu menyo, ariko ukayambara iyo ukuye apareye mu menyo kungora ngo amenyo ukomeze kuyarinda akomere, kuko aba acyoroshye hashobora gukoraho ikintu amenyo akaba yavamo.

Abaganga bari kuvura umurwayi, ni babiri bamuryamishije ku gitanda barimo baramumurika mu kanwa kugira ngo bamuvure amenyo. Ubu ni uburyo abaganga bakoresha kugira ngo babone neza mu kanwa, babone ahari ikibazo maze bahavure.

Umuntu wasamye bari gukura amenyo. Iryinyo barikuyemo hasigaye umwobo. Bakoresheje icyuma gikuramo amenyo ariko na muganga na we yambaye ga kugira ngo yirinde, hataza kugira amaraso amutarukira cyangwa akamukoraho agakomereka.

Abana barimo bara borosa, barimo baroza amenyo bakoresheje amazi n'umuti w'amenyo, ibi ni ukugira ngo bite ku buzima bwabo bw'amenyo cyangwa birinda indwara zose zo mu kanwa zituruka ku mwanda, bitewe n'uko utogeje mu kanwa bihagije.

Umuntu wasetse aseka neza afite uruhu rwiza afite n'amenyo meza, icyo dushaka kugaragaza aha ngaha ni uko amenyo ye arasa neza n'ishinya yiwe igasa neza bigaragare ko ayitaho cyane.

Umwana mutoya cyane, uryamye ku buriri kwa muganga, ariko hari n'ibyuma biri mu kanwa, barimo bashaka kumukura amenyo, cyangwa kuyareba neza barebe ko ameze neza, bityo nibasanga hari ikibazo bayavure.

Uyu muntu, arimo arakoresha akagozi gahanagura hagati mu menyo ariko aka kagozi, nubwo gahanagura mu menyo, gafite ingaruka nyinshi. Gashobora kubabaza ishinya ikaba yava amaraso mu buryo butandukanye, wahakase cyangwa wababaye.

Aha rero ni aho bavurira abarwayi barwaye amenyo, turabona intebe umurwayi yicaraho, umuganga amuvura, n'igitara gitanga urumuri ruhagije, kugira ngo muganga abashe kureba mu kanwa, avure aho abona neza.

Abasaza bicaranye bose bafite inkoni bambaye ingofero, bicaye hamwe bashobora kuba bari kuganira ku kintu runaka kuko bose bageze mu myaka mikuru baba bitanaho na bo bigira inama z'uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo.

Umuganga n'umugabo arimo arakoresha ukuboko kwe gushobora kuba kwari kwaragize ikibazo kugira ngo arebe noneho nimba ukuboko kuri gukora, muganga agomba kwita ku murwayi kuva aje kumwivuzaho kugeza akize.

Uyu ni umukecuru ufashe indangururamajwi cyangwa mikorofone, uhagaze imbere y'abantu, bigaragara ko hari ikiganiro runaka arimo atanga kuko ahagaze imbere y'abantu bose, n'inyuma turabona imodoka ko biragaragara ko babonye abashyitsi.

Abantu bageze mu zabukuru babiri bambaye imyenda ya siporo, nabo bakora siporo kugira ngo imibiri yabo uko iba imaze koroha, nayo yongere kugenda ikomera maze ubuzima bwabo bube bwiza kuko iba yaramaze gufatwa n'indwara nyinshi.

Urabona abantu bageze mu zabukuru bose bicaye hamwe, ariko urabona ko bari kumwe n'umuntu ukiri mutoya arimo arabagira inama z'uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo, bivuze ngo iki ni ikigo cyita ku bafite imyaka mikuru.

Umuryango wishimye, harimo umusaza n'umukecuru, bashobora kuba basuye abuzukuru babo, cyangwa abana babo, barishimye cyane, ibi ni ibifasha rero abantu bakuru kugira ngo ubuzima bwabo bube bwiza, cyane cyane iyo basuye imiryango yabo.

Umuforomo n'umusaza w'umuntu mukuru ugeze mu zabukuru, arimwo arapimwa umutima, kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze, nyuma baze kumushakira uburyo bamuvura , kuko bari n'ahantu hatuje kugira ngo ubuzima bugende neza.

Ahantu mu giturage hari abantu bashaje, hari n'urubyiruko, hari intoki, umuhanda w'igitaka bigaragara ko bavuye nko mu nama aho bavuye kugirirwa inama z'uko bagomba kwiyitaho kuko abantu bashaje baba bafite ibyago byinshi byo kwangizwa n'ubusa.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru, bicaye ku ntebe bombi, imbere yabo hari ameza, hari agakombe k'amazi, umusaza ari kuywa imiti yo kwiyitaho kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bumere neza ariko arimo no gusoma gahunda y'uko agomba kunywa imiti.

Aha turabona abantu babiri bageze mu zabukuru, umusaza arimo aranywa imiti ariko umukecuru arimo aramwereka gahunda y'uburyo agomba kunywa imiti, turabonaho n'amazi agiye gukoresha anywa imiti n'ibipimo byihariye.

Umukecuru n'umuforomo umwitaho baraseka bari mu nzu nziza ifite isuku isa neza, ifite intebe n'ahantu hisanzuye hari umwuka mwiza, aba babitaho kugira ngo ejo n'ejo bundi batazagira ikibazo.

Umusaza n'umuganga umwitaho, arimo arakoreshwa imirimo igorora umubiri cyangwa siporo, icyo twakwita nka siporo, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza kuko ageze mu myaka y'izabukuru, kugira ngo bimufashe kugira ubuzima bwiza.

Imbere turahabona umusaza n'umufasha we, bameze nk'aho bamanuka ku madarage, ariko umusaza kuhamanuka biragaragara ko bamufasha kuko ushobora gusanga imbaraga ntazo agifite, ariko kugira ngo ahamanuke bigasaba ko akenera umufasha kumanuka.

Aha turabona abantu bageze mu zabukuru barimo bitanaho muby'ukuri, urabona ko bishimye, hari utuntu turi ku meza barimo bapanga mu buryo babishaka ariko abantu bageze mu zabukuru baba bagomba kwitabwaho cyane kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza.

Imbere yacu turahabona umuntu mukuru ageze mu zabukuru, biragaragara ko yari ari mu kazi ariko akaba atashoboye, ameze nk'aho ananiwe cyangwa se arwaye umutwe uri kumurya. Mwene aba baba bakeneye kwitabwaho.

Abakecuru bicaye hamwe bari mu myaka mikuru cyangwa bageze mu zabukuru, bicaye ahantu bafashirizwa mu kwitabwaho kugira ngo ubuzima bwabo bube bwiza n'imitekerereze yabo yorohe kugira ngo batiheba.

Umusaza uri kumwe n'abana be, barimo kurya ikirayi cyangwa ikijumba, bicaye imbere y'umuryango ariko urabona ko hari umuryango utifashije, umusaza afite agakoni hari n'umwana ufite akantu k'agacupa.

Ababyeyi babiri ubona bari mu myaka mikuru, bari mu gikoni barimo barateka indyo nziza, irimo imboga n'imbuto, bafite igikoni gisa neza kirimo tubati, ibikombe n'ibikoresho byose bikenewe kugira ngo igikoni kibe cyuzuye.

Umukecuru ugeze mu myaka mikuru cyangwa izabukuru arimo aranywa imiti, afite agakombe k'ibinini n'ibindi yasutse hasi arimo arigerera ibyo agomba kunywa, ariko mwene aba bagomba kwitabwaho kugira ngo ejo n'ejo bundi batibagirwa.

Abantu babiri umusaza n'umukecuru bari mu myaka mikuru, ikigaragara barimo barasoma impapuro zishobora kuba ari impapuro zo kwa muganga bahawe ariko kugira ngo ubuzima bwabo bamenye uko buhagaze.

Abantu bari mu nama, abantu batandukanye b'ingeri zose. Imbere hari ibyapa bigaragaza, ibigo bitandukanye, hariho n'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda. Hari umugabo ufite Kamera, urimo abafata amashusho n'amafoto.

Abaganga bari mu kazi kabo, barimo barakora akazi ko kubaga umurwayi, ariko urabona ko bafite ibikoresho byinshi bitandukanye mu maboko yabo, harimo n'ibibafasha kureba, aho barimo babaga, kugira ngo bahabage neza.

Ikirango cya repubulika y'u Rwanda ariko kiranga minisiteri y'ubuzima, iki ni cyo kirango cy'u Rwanda ariko kikaba cyanditseho amagambo agaragaza minisiteri y'ubuzima nk'uko ariyo ishinzwe ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bose bamanitse amaboko. Imbere yabo hari intebe, hari n'amazi. Bari mu nama irarangiye, bari kwifotoza kugira ngo babone ifoto y'urwibutso ,maze bazagende bibukana buri wese, umwe ku wundi.

Ibitanda byo kwa muganga n'amarido n'utubati abarwayi bashyiramo ibikoresho byabo, ariko hejuru hari n'ibyuma bireba ko umutima uri gutera waba udatera neza bikabimenyesha, hari n'isuku iremereye ibereye ijisho.

Umuganga uri kwa muganga arimo arakontorora mu byumba by'abarwayi aho baryama kugira ngo arebe ko hafite isuku kuko hari ibitanda, hari ibintu byinshi kugira ngo arebe nimba nta n'ivumbi rihari kuko ryaba ikibazo ku barwayi.

Haragaragara icyapa kiranga amerekezo y'ibitaro ibyo ari byo, harimo idarapo, harimo inyubako, aha ni kwa muganga. Aha ni ho abarwayi bagana abaganga bashaka kwisuzumisha indwara bafite n'ibibazo byose bakeneye kwivuza.

Ahantu heza hari ubusitani bwiza ,icyo tuzi nka jaride, hari n'inzu nziza .Iyi nzu ni ibitaro by'abagangada aho abarwayi baza baje kwisuzumisha indwara zitandukanye, kugira ngo babone ubuvuzi bwiza kandi bitabweho.

Umuganga wambaye agapfukamunwa arimora akoresha imashini ifite kibodi na we yicaye mu biro bye, ni ahantu hasa neza kandi hisanzuye umuntu agomba gukorera akazi kugirango abashe no gutekereza neza.

Aba ni abaganga batandukanye bari mu kigo cy'ubushakashatsi. Aha niho bakorera ubushakashatsi bwabo bwa buri munsi, aho bavumbura ibintu bigiye bitandukanye kuko n'imbere yaho turahabona ibikoresho byinshi bagenda bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, bahagaze imbere y'inzu nziza y'ibitaro by'akarere ka Rwamagana, bafashe ifoto bahagaze kandi ubonako bisa neza n'ahantu bari hari umwuka mwiza hateye n'ibiti.

Umumotari umubyeyi uhetse umwana n'undi mwana mutoya bari mu nzu igurisha imiti ikizwi nka farumasi, harimo n'abaganga batanga izo serivisi aha niho ukura imiti y'indwara ya buri yose kwa muganga baba bakwandikiye.

Icyumba cyo kwa muganga kiza, gisa umweru, kirimo amatara akenewe yose, kirimo n'ibikoresho by'ingenzi, harimo n'aho abaganga bicara bateze amatwi abarwayi kugira ngo babagezeho ibibazo bafite, babashe kubavura.

Imodoka n'abantu n'inyubako, iyi n'inyubako yo kwa muganga aha niho abarwayi bavurirwa, n'ahantu hasa neza hafite ikirere cyiza hari ibiti kandi hafite na jaride nziza cyane nabaganga.

Aha ni ahantu heza cyane, hari intebe zitandukanye, ariko hari n'indabyo. Hari ameza hateretseho akavazi karimo indabyo keza cyane, gafite amabara atandukanye, ahantu heza hateye amabenngeza kandi hisanzuye hacecetse.

Aha hari inyubako, hari n'ibyapa ariko hakaba handitse hagaragaza ko ari ibitaro bya Shyira by'Akarere. Aha ni aho abarwayi bajya kwivuriza, bakabona serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Aba ni abaganga barimo basuzuma ibyuma uko bikora ariko nanone barimo baniga ibi ni ibyuma bikoreshwa mu kuvura abaturage cyangwa abarwayi, bikoreshwa n'abaganga babizobereyemo kandi babyigiye kugira ngo ababagana babone ubuvuzi buzima kandi bwiza.

Iyi ni inzu itangirwamo cyangwa igurishirizwamo imiti yo kwa muganga, murabona ibikombe by'ibirimo ibinini, hari n'imiti ivura izindi ndwara zose kandi iyi nzu irasa neza cyane, bivuze ngo tugomba kuzitaho cyane mu buzima bwazo bwa buri munsi.

Iki ni icyumba kibikwamo amaraso, gifite utubati ariko bumwe bukonjesha. Amaraso abikwa ahantu heza, akabikwa kandi bifite umutekano kugira ngo ataza kugira ikibazo akaba yameneka.

Iki ni ikigo gikorerwamo ubushakashatsi bwo kwa muganga. Murabonamo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye harimo mikorosikopi, mudasobwa, ibikoresho byose byifashishwa mu kwita ku buzima bw'abantu bwa buri munsi. Aha rero ni ho abaganga bakorera.

Ibi ni ibitaro cyangwa se kwa muganga, urabona ko hari urujya n'uruza yaba abaje mu modoka, yaba n'abaje n'amaguru. Hari rujya n'uruza rw'abarwayi baje kwa muganga kwisuzumisha indwara cyangwa se kwivuza babaye barwaye.

Aha tubona ni kwa muganga, aha turimo turabona ibitanda by'abarwayi biteguye neza, kandi biri ahantu hafite isuku, ibi rero niho abarwayi bajyanirwa kwa muganga, bakitabwaho kandi bakavurwa neza.

Ahantu heza hari isuku hari n'ibimera hari ibikuta byiza bisa umweru amakararo meza nayo bitanga umucyo muri iyi nzu, ni ibitaro kuko biba bigomba kuba bisa neza kuko haba harimo abantu badafite ubuzima bwiza.

Intebe n'indobo n'utundi tuntu dukingiriza abarwayi n'abandi bantu, aho muganga aba agiye gukorera yita ku murwayi, amuha imiti cyangwa se amuvura ubundi burwayi kugira ngo abandi bantu bataza kumurunguruka cyangwa kumureba.

Umuganga uri imbere ya mudasobwa ari kwa muganga yicaye mu ntebe arikurereba uburyo umubiri w'umuntu umeze, uwo muntu bacishije muri sikaneri cyangwa icyo tuzi nka radiyogarafi kugirango arebe aho ikibazo giherereye maze amuvure.

Icyumba cyiza cyane, gisa neza ,kirimo amakaro meza, kiririmo intebe, hari mfite n'ibyuma byo guterura n'ibyo kwirukankiraho, ibi byose ni ibifasha abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza, barekere kugira indwara za hato na hato.

Hagaragara nko mu bitaro, kuko hari ibitanda, hari ahakorerwa ibizamini bigiye bitandukanye, hari uburiri baryamishaho abarwayi, hari n'intebe zo kwicazaho abaje gusura abarwayi, hari n'utubox tw'imiti.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza kirimo amatara abona neza, kirimo ba muganga, kirimo igitanda baryamishaho umurwayi kugira ngo bamusuzume neza kandi bimworohere kutagira imbaraga nyinshi akoresha maze yitabweho.

Muganga n'umurwayi baragaragara muganga arishimye, ariko muganga afite ibikoresho bimufasha mu gupima abarwayi, ariko afite n'aho yandika ibibazo abarwayi be bafite kugira ngo aze kubimenya nyuma abyiteho.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byose bikoreshwa mu gusuzuma abarwayi, harimo mudasobwa, harimo icyuma gisikana, kireba mu mubiri w'umuntu kugira ngo kirebe ikibazo umuntu yaba yagize.

Ibi ni ibitaro byumba byiza cyane ariko ubu bikasemo ibice byinshi, hari ahekana aho abaforomo bakorera, hari ababi ahabikwa amadosiye y'abarwayi agiye atandukanye yanditsemo indwara cyangwa igihe bavuriwe, cyangwa igihe bazongera kugarukira kwa muganga.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibiro by'umuganga, kirimo igitanda umurwayi aryamaho kandi kiriho n'intebe zicarwaho n'abaje kumugana kandi kirisanzuye cyane kirasa neza nk'uko biteganywa ko cyaba kiri kwa muganga.

Turabona umuntu ushinzwe gukora amasuku hari indobo, turabona ahamenetse amazi arimo arakora isuku ariko ahamena n'imiti kugira ngo mikorobe zose azice indwara zireke kwandura ziva ku mwanda.

Abaganga cyangwa abaforomo bane bambaye udupfukamunwa n'imyenda yo kwa muganga , bari imbere y'inzu y'ababyeyi cyangwa se icyo tuzi nka materinite. Aha ni ho ababyeyi babyarira kandi aba ni bo bababyaza.

Kwa muganga haryamye abarwayi hari amarido agenda acamo ibyumba hagati y'abarwayi n'abandi, hari abaforomo hari n'abakora amasuku barimo bita ku isuku y'abarwayi kugira ngo birinde indwara ziva no ku mwanda.

Ahantu heza hari inzu nziza, hari n'abantu bagenda bigaragare ko hari abantu baje kureba inyubako uko imeze, hari umuhanda, hari na rigore. Ni ibintu bisabwa kugira ngo inzu iba ifite umutekano itazatwarwa n'imyuzure.

Kwa muganga abasekirite bari gufungurira imodoka zisohoka mu bitaro, yaba izitwaye abarwayi cyangwa izizana abarwayi. Hari n'undi wicaye ku muryango ariko ibi ni ibitaro bisa neza, abaganga baba bagomba kwicara na bo bagatekereza neza.

Iki ni icyumba cy'ubuvuzi gifite ibikoresho byose bikenewe mu buvuzi buteganywa kuhakorerwa. Ni icyumba gisa neza gifite amabara meza, gifite n'ibyuma byohereza umwuka. Gifite n'igitanda cyo gushyiraho umurwayi kugira ngo yumve atekanye.

Amazi ni ingenzi mu buzima. Iyo tunywa amazi ni ibidufasha kugira ngo dufashe impyiko kuyungurura amaraso. Ni uko amazi akaba n'ingenzi kandi mu gutuma amaraso yacu na yo agenda neza mu mubiri.

Turabona umugabo uri gukora siporo ariko ufite n'umuntu umufasha gukora siporo, ni byiza rero ko umuntu akora siporo, bikaba byiza cyane iyo ufite ubizobereyemo kugira ngo agufashe kumenya siporo ukora n'izigufasha kurusha izindi.

Amazi ni ingirakamaro mu buzima. Umugabo arimo aranywa amazi, yambaye isaha, yambaye n'imyenda ya siporo. Iyo ukoze imyitozo ngororamubiri, ni ngombwa kunywa amazi. Kugira ngo ayo mazi aze gusimbura icyuya uba wabize.

Ibi tubona, turabona indimu, turabona ironji, turabona icupa ry'amazi, turabona n'icyuma tuzi nka ariteri bikoreshwa n'abantu mu mazu y'imyitozo ngororamubiri, ariko ibi byose ni ibifasha kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza mu gihe cy'imyitozo.

Imbuto; imineke, amaronji, inanasi n'imidari n'ibinini. Ibi byose ni ibikoreshwa mu myitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu akomeze ameze neza, harimo n'icupa ry'amazi ko rirakenewe muri siporo.

Abantu benshi bari ku mirongo bari gukora siporo, yaba abasheshe akanguhe, yaba n'urubyiruko, bakora siporo kugira ngo imibiri yabo ibe myiza, ubuzima bugende neza n'amaraso atembere mu mubiri maze birinde indwara zose.

Umugabo uri kwirambura arimo arakora siporo iwe. Muri salo harimo intebe, yambaye ikabutura n'isengeri. Ni ibintu bimufasha kugira ngo umubiri we uhumeke neza bitamugoye kuko aba abira icyuya cyinshi.

Umuntu uri ku cyuma wicaye ku ntebe arikumwe n'umuganga yarambuye ukuguru mu cyuma aguhina kuzamura bigaragare ko ukuguru gufite ikibazo ari kugira ngo agutoze gushyiramo imbaraga no kurambura neza.

Umugabo wifashe ku mutwe ariko uri kwigorora yambaye n'isaha n'isengeri, iyi ni imyenda yifashishwa muri siporo yazizindukiyemo cyangwa se yaziriwemo ariko ni ukugira ngo ubuzima bwe buhagarare neza bugende neza.

Uyu ni umugore cyangwa umukobwa ari muri siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri, iyi iturinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ituma umubiri wacu ukomera igatuma amaraso agenda neza mu mubiri ntiturwaragurike.

Umuntu wambaye inkweto za siporo n'imyenda na tisheti na kora uri mu cyumba cy'imyitozo ngororamubiri. Ariko ibi byose ni ukugira ngo bimufashe kuzamura imibereho myiza no kuba afite umubiri ukomeye uzira indwara.

Umuganga urimo guhambira umurwayi w'umusore, yakomeretse cyangwa yavunitse mu kuguru, ibi icyo bimaze ni ukugira ngo ukuguru kongere gusubirane igufwa aho ryatandukanye na ryo ryongere rifatane, maze yongere kwiyumva ameze neza abashe kugenda.

Turabona abaganga batandukanye, bambaye imyenda y'ubwirinzi kuko bari mu buvuzi busaba isuku kandi bagomba kwirinda kuko barimo bakora ku byuma bikomeretsa kandi bahura n'amaraso.

Urugendo rwa siporo, ni urugendo rudafite ba nyirarwo, siporo ikorwa n'abantu uwo ari we wese kugira ngo ubuzima bwe bugende neza, imitsi irambuke aba umubiri we ukomere kandi n'imikaya yiwe igende neza.

Imyitozo ngororamubiri ni ikintu cyiza mu buzima bw'umuntu, kuko iyo ubikora buri munsi bifasha amaraso gutembera mu mubiri neza kandi ukagira ubuzima buzira umuze, ariko cyane cyane tugomba gushaka n'abantu babidufashamo.

Abaganga bari mu bitaro bafite televiziyo imbere yabo, bari kuvugana n'undi muganga utari kumwe nabo, ariko kugira ngo abafashe kugira icyo bakorera umurwayi batari kumwe, arabafasha bigakorwa n'abari aho ngaho ariko bivuzwe n'undi.

Umugabo afasha umupira uremereye. Iyi mipira akenshi ikoreshwa mu nzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Ibi bidufasha kugira ngo ubuzima bwacu bumere neza kandi n'imibiri yacu ikore neza n'amaraso agende mu mubiri neza.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu umubiri wacu ukeneye kugira ubashe kubaho neza kandi ikindi imyitozo ngororamubiri idufasha gukora nk'umuti kuko amaraso atembera neza kandi tukanakomera.

Umuganga uri mu cyumba cyita ku magufwa n'imvune, ari kugorora umuntu uryamye ku buriri, muganga yambaye imyenda yambaye na baji, ikimuranga, aramugorora kugira ngo ukuguru kongere gusubirane.

Umuganga uri gusuzuma umwana, ibi biragaragara ko umwana ashobora kuba afite ikibazo abaganga bakamwitaho, n'undi uwo ari we wese, umuganga afite ibikoresho byose byifashishwa n'abaganga kugira ngo basuzume ibibazo n'ibimenyetso umurwayi afite.

Umuganga uri kumwe n'umwana ariko amusuzuma indwara zo mu kanwa, umwana yazanye n'ababyeyi be bipfutse ku mazuru kugira ngo bataza kwandura cyangwa bakanduza umwana kuko bambaye udupfukamunwa turinda indwara zigenda mu mwuka.

Umugabo uri kwigorora ku gapangu k'ibiti ariko biragaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri ihagije, biba ari nabyo bimufasha kugira ngo agume ubuzima bwe bumeze neza, natwe turasabwa gukora imyitozo ngororamubiri kuko bifasha nk'umuti.

Umusore n'inkumi bafite ibikapu bari ahantu heza, ahantu karemano hatari urusaku hatari n'ibikorwa remezo byinshi. Umusore arimo aranywa amazi umukobwa arimo arigorora ariko baratangiye siporo bagomba no kuzisoza kugira ubuzima bwabo bube bwiza.

Abagabo batatu bari mu kibuga babiri ni abaganga undi ni umukinnyi, ariko yavunitse arimo aritabwaho ntabwo ashoboye kugenda barimo baramwitaho bamubaza icyo yabaye bo bakamenya uko bamufasha bitewe n'ikibazo afite.

Haragaragara ukuboko k'umuntu gufashe icupa ry'amazi kandi amazi turabizi neza ko ari ingirakamaro mu mubiri wacu kuko afasha koza amara kandi agafasha n'impyiko kuyungurura amaraso kugira ngo umubiri ubone amazi menshi akenewe.

Iri ni icupa ry'amazi amazi, amazi arimo asukwa mu kirahure, mu by'ukuri ibi bikorwa kugira ngo umuntu ayakure mu icupa aze kuyanywa ari mu kirahure bimworoheye, kugira ngo ataza no kuyasigaza.

Icupa ry'amazi, umugore uri muri siporo, igitanda, ari mu cyumba cye, bigaragara. Ari gukora siporo, kugira ngo yirinde indwara, kuko aracyari muto kugira ngo zitazamuzahaza mu gihe azaba ageze mu za bukuru.

Abakozi babiri ba Croix rouge barimo bafasha umurwayi, yavunitse ari mu kibuga, yakinaga umupira w'amaguru, bagenzi be baramuvunnye ariko bari kumufasha kugira ngo ukuguru kongere gusubirane cyangwa koroherwe, uburibwe bugabanyuke.

Siporo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu ntago bisaba ngo ube ufite imyaka ingahe kugira ngo ukore imyitozo ngororamubiri ni ibintu dukora bidasabye ko duhindura aho twari turi kandi biturinda kuzajya kwa muganga mu myaka iri imbere.

Uducupa dutandukanye n'udukarito turimo imiti itandukanye n'imiti, imiti ivura indwara zitandukanye kuko niyakoreshwaga kera akenshi ikurwa mu byatsi cyangwa mu mbuto n'iy'ibintu karemano cyangwa by'umwimerere.

Ibi bizwi nka tangawizi. Ni ibikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi z'umubiri, amaraso, umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibindi birwara byose byo mu nda. Ibi rero ni imiti ikoreshwa mu kunywa nk'icyayi.

Mu byatsi byo mu bwoko butandukanye, hari amapera, hari imiravumba n'ubwoko bwinshi, ibi ni ibyatsi bikoreshwa mu buvuzi gakondo cyangwa ubuvuzi bwa kera n'ubu biracyakoreshwa kugira ngo bavure abantu indwara zitandukanye.

Icyatsi gitewe cyangwa cyimejeje ariko gikora nk'umuti, ibi byakoreshwaga mu myaka ya kera mu kuvura inkorora, ibicurane n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zoroheje abantu bivuriraga bo ubwabo bidasabye kujya kwa muganga.

Imiti ya gakondo harimo indimu, harimo ibintu byinshi bivura indwara zitandukanye, zisanzwe abantu ba kera bivuriraga bidasabye kujya kwa muganga, nuko bakazikoresha nk'imiti yabo.

Iyi ni imiti gakondo tubona aha ngaha, turabona udusekuro, turabona n'utundi tuntu bagiye bayishyiramo biteretse ku meza, yakoreshwaga kera ariko n'ubu ngubu mu by'ukuri iracyakoreshwa kandi iravura.

Iyi ni imiti gakondo turabibona ko irapfundikiye iri no mu makarito yayo, rero iyi ni imiti yifashishwaga kera mu kugira ngo bavure abantu indwara zigiye zitandukanye kugeza n'ubu kandi iracyakoreshwa.

Haragaragara tangawizi , haragaragara amasekuru n'izindi mbuto n'ibyatsi bigiye bitandukanye n'uducuma, byose ni bikoreshwa mu gusekura imiti ya kinyarwanda cyangwa imiti ya kera kandi yifashishwa mu buvuzi.